Ni ingenzi mu buzima bw'umuntu gukoresha amazi meza asukuye kandi yizewe, kugira ngo hirindwe indwara, gusa birababaje aho usanga mu nce zimwe zo mu cyaro bagikoresha amazi arimo imyanda, cyangwa bibafata urugendo rurerure kugira ngo bagere aho babona ayo mazi.

Imyaka y'izabukuru ni imyaka akenshi igorana, aho umuntu aba akeneye kwitabwaho by'umwihariko cyane ko muri iki gihe aba adashobora kwikorera imwe mu mirimo y'ibanze, bityo akaba akeneye gukurikiranwa akitabwaho kuko muri iki gihe ni naho ahura n'indwara za hato na hato, nka rubagimpande, umugongo n'izindi, biba byiza iyo umuntu ushaje afite umuganga ndetse n'ahantu habugenewe bamukurikirana.

U Rwanda nk'Igihugu kiri mu nzira y'iterambere, cyumva neza ko ubuzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi ari inshingano z'Igihugu. aho ababyeyi bitegura kwibaruka, cyangwa se bamaze kubyara, bashyiriweho inzu zo kubitaho, cyane nko mu bice by'icyaro aho serivisi z'ubuzima ziba zitaragera henshi.

Mu Rwanda ibikorwa by'ibanze byegerejwe abaturage, harimo n'ibyo twita ibigo nderabuzima. Ni igice cy'ubuvuzi cyunganira ibitaro, kikaba gishobora kwakira abaturage benshi, bo mu gace runaka. Aha ngaha tuhasanga serivisi zigiye zitandukanye, harimo kuvura indwara zisanzwe zoroheje, nko gufungana marariya n'ibicurane, gukingira abana, kwipimisha inda, no kugira inama ku buzima bw'imyororokere.

Akenshi umuntu anywa amazi ari uko afite inyota cyangwa avuye mu imyitozo ngororamubiri. Ariko siko byakabaye bigenda kuko ni kimwe mu binyobwa umubiri ukenera cyane mu mibereho ya muntu. Ingaruka zo kutanywa amazi ahagije harimo ikibazo k'impyiko, umwuma ndetse no kurwara umutwe bya hato na hato.

Ubuzima bw'umuntu buramo inzitizi nyinshi ndetse n'indwara. Gusa mu bumwe mu buryo bwizewe bukoreshwa harimo kuvura, bifashishije imyitozo ngororamubiri. Ubu buvuzi bukorwa hagamije gufasha umuntu kugarura ubushobozi bwo kugenda neza, kugorora ingingo, kuvura ububabare, cyangwa gusubirana imbaraga nyuma y'impanuka, indwara cyangwa kubagwa.

Bitewe n'imiririmo umuntu aba yiriwemo mu rugo imyitozo ngororamubiri ni imwe mu bikorwa bishobora kugufasha gusubirana ubuzima buzira umuze ndetse ugakomeza kugira imbaraga mu mirimo ya buri munsi. Imwe mu myitozo ngororamubiri ushobora gukorera mu rugo harimo gusimbuka umugozi, kurambura umugongo ndetse no kurambura amaboko, ibi bikaba byagufasha kusigasira ubuzima bwawe ndetse ugakomeza kugira imibereho myiza.